Icyumba cy'inzu kirimo abantu benshi bicaye mumatsinda, imbere yabo hakaba hari ameza hariho igitambaro cyi'icyatsi, ibirahuri byo kunyweramo ndetse n'amacupa arimo amazi, kuruhande rwabo hariho imiryango ifite ibirahuri

Icyumba kiberamo inama kirimo abantu benshi bambaye amakote bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umukara, hashyizweho ibicupa bitandukanye by'amazi, impapuro ndetse n'amakaramu y'ubururu.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'igisenge cyasize irangi ry'igitaka kirimo ameza manini yateretsweho uducupa twa'mazi ndetse n'uturimo imitobe, mudasobwa ndetse n'abantu bicaye iruhande rwayo bayizengurutse.

Icyumba k'inzu kirimo umugabo wambaye ishati n'ipantaro ahagaze imbere y'abantu bicaye imbere yameza yashyizweho igitambaro cy'umweru n'ubururu, bicaye ku ntebe z'utubaho ku ruhande hariho amadirishya ndetse n'ikibaho kiri kwigirwarwaho.

inzu nini ifite igisenge kirimo amatara menshi ari gutanga urumuri rw'umweru ndeste hakaba hicayemo abantu kuntebe z'amabara atandukanye harimo umutuku, umuhondo ndetse nubururu hariho nameza hejuru yigitambaro cy'ubururu bakandagiyeho.

Icyumba kirimo umugabo uhagaze wambaye ikoti afite icyuma cy'amajwi mu kuboko kw'iburyo kwe, impande y'abantu benshi bicaye, imbere y'ameza ariho igitambara cy'umweru yateretswe agakarita gasize ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyumba kiberamo inama, cyicawemo n'abantu batandukanye b'abagabo n'abagore. Ku ruhande hariho ikirahure kibonerana cyashyizweho impapuro ndetse imbere hariho akameza gikozwe mu mbaho, kashyizweho ikaramu, ikaye ndetse n'amazi.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta z'umweru, kikaba cyicayemo n'abantu bane bicaye imbere y'akameza gakozwe mu mbaho, katereretseho ibyuma ndangururamajwi, ibicupa birimo amazi, amakaye ndetse n'amakaramu.

Umugore uhagaze ufite icyuma ndangururamajwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ndetse ukw'imoso gufite ikayi ifite impapuro z'umweru, impande hakabariyo abantu bicaye hasi y'utuzu tugendanwa dusize ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi

Umugabo uhagaze mu cyumba cy'inzu kigizwe n'amakaro ndetse n'inkuta z'ibara ry'umweru, impandeye hriyo abantu bicaye ku ntebe ndetse n'ameza ari imbere yabo hari ibitambaro by'umweru byateretsweho amazi ndetse n'ibindi bikoresho.

Abantu bicaye mu matsinda begereye akameza gafite ibitambaro by'icyatsi byateretsweho amashakoshi, udutabo, amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa bari impande y'idirishya rifite amarido asize ibara ry'igitaka.

Umugabo wambaye amadarubindi n'isaha mu kuboko Kw'iburyo bwe, afashe icyuma kirangurura amajwi ahagaze imbere y'abantu bicaye inyuma ye hakaba hari kugaragaraho abasirikare ndetse n'abapolisi bicaye ku ntebe z'icyatsi.

Inzu igizwe n'igisenge cy'umweru cyashyizweho amatara atandukanye ndetse n'amarido yegeye amadirishya asize ibara ry'ikigina, abantu bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza yashyizweho igitambaro cy'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho.

Inzu nini ifite amadirishya menshi n'imiryango bifunguye ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umweru, mw'imbere harimo abantu bicaye bafite mudasobwa zigendanwa kumaguru yabo impande zabo hari imigozi yagiwe icomeka kuri izo mashini.

Umugabo wicaye kuntebe wambaye ishati imbere hakaba hariyo mudasobwa ndetse nimpapuro zo kwandikwaho agacupa karimo amazi nicyuma kirangurura amajwi gisize ibara ryumukara inyuma hakaba hari urukuta rwubururu rwanditsweho amagambo.

Inzu nini ifite ibimbazi bagiye bishyirwaho umwenda w'umweru mugari ndetse hakaba harikugaragara abantu bicaye imbere y'ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'amazi yo kunywa yateretsweho n'indabyo.

Inzu iberemo inama ifite inkuta z'umuhondo, ikaba ifite imiryango n'amadirishya bibonerana, harimo abantu bicaye ku ntebe ndetse n'ameza yegeranye hageretsweho mudasobwa, ibipapuro ndetse n'ibicuta by'amazi.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu benshi bahagaze nabandi bicaye ku ntebe zegereye akameza gasize irangi ry'umuhondo kateritsweho amacupa y'amazi ndetse n'imitobe inyuma yo kugaragara ibyapa bisize irange ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyuma cy'umuyoboro w'amazi cyegeranye n'amabati y'icyatsi ari hejuru y'igisenge ku ruhande hari kugaragara igorofa ryanyuma rya etaje cyashizweho ibyuma bitanu bitanga interinete ndetse n'amashanyarazi abembereje mu kirere.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi ishushanyijeho umugabo wambaye marinete n'agapira, akaba afite mudasobwa ye mu kuboko kw'iburyo bwe ukw'ibumoso kuri gukanda amabuto, iruhande rwe hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imibare ya telefone.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu icyatsi ndetse n'umweru yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati ntibyemewe kwishyura urugendo dukoresheje ikarita yabugenewe uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa kigali ni ugu gukoresha ikarita ikaba ishushanyijeho ibiganza bibiri bifashe amafaranga ndetse n'icyuma cyashyizweho ikarita.

Ishusho y'umweru iriho ikirango hejuru ibumoso gisobanura uburezi bwo mu Rwanda, iburyo bwaryo hariyo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ingebihe izatangira taliki makumyabiri kugeza taliki makumyabiri n'esheshatu Mata bibiri na makumyabiri.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru; ikaba yanditseho amagambo kwibutsa, kumenyekanisha no kwishyura avansi y'atatu y'umusoro ku nyungu; birakorwa kugeza tariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza, bibiri na makumyabiri na kane.

Mudasobwa iri kugaragaraho ishusho yo kuri interinete yanditseho amagambo "irembo" ndetse n'ubushakashatsi bukorwa iyo ushaka serivise zitandukanye, n'andi magambo y'icyongereza. Mu nzu ikorerwamo ubucurizi ndetse ku ruhande hari inkuta zashyizweho amafoto.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zikozwe mu mbaho, bikaba byateretsweho impapuro nyinshi z'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hicayemo n'abantu babiri bicaye ku ntebe za palasitike, imbere hari ameza yateretseho mudasobwa.

Umunara munini w'itumanaho, uzengurutswe n'agapangu gato gakozwe mu byuma, impande hari ibiti binini, inzu ifite ikibambasi gisize ibara ry'umuhondo, ndetse gikozwe no mu matafari ahiye, ibyatsi, ndetse n'agasima.

Akayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, kari imbere y'ibaraza'inzu y'ubucuruzi ifite icyapa cyanditseho "irembo" kiri mu ibara ry'ubururu mo imbere hakaba harimo akabati ndetse n'utumeza dukozwe mu mbaho.

Icyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo ririmo abantu bicaye kuntebe ndetse n'ameza akozwe mumbaho imbere yaho hari mudasobwa yacometswe imigozi itandukanye yahujwe n'icyuma gisize ibara ry'umukara.

Urubuga rwa eterinete ruri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru rwa komite ishinzwe imisoro m' U Rwanda ruriho amagambo agira ati; serivise z'ibinyabiza zimutse aho buri shami rimenyesha barigana bose ko serivise zose z'ibinyabiziga zimukiye i masaka, dubayi ahasanzwe hakorera ibiro bya gasutamo.

Ishusho y'ubururu n'umweru iri ku rubuga rwa interineti mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditseho amagambo agira ati, umusoro ni umutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki 31 ukuboza bya buri mwaka .

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru; yanditse amagambo agira ati amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobile money, mu rwego rwo kurwanya coronavirus ndetse ko uzarenga kuri aya mabwiriza azahabwa ibihano birimo no gufungirwa ubucuruzi bwe.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru yo kugaragaraho ikiganza cy'umuntu kiri gukanda imibare yo kuri mubazi hejuru y'akameza kariho impapuro kuruhande hariho y'amagambo kwigaragaza ku bushake ndetse na nimero za terefone zishobora guhamagarwa.

Amapoto atatu ariho insinga ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo, iri kugendwaho n'umuntu ufashe igare mu ntoki ze, umumotari, ndetse n'imodoka ziparitse n'ibikamyo, hafi y'inzu isize ibara ry'icunga rihiye.

Ibyuma bitanga amashanyarazi kegereye iminara ibiri yashyizweho insinga z'amashanyarazi ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'icyapa gisize irangi ry'umweru, umutuku, ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo ari mururimi rw'icyongereza.

Amapoto abiri ashinze, yashyizweho insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hari urupangu rurimo amabara atandukanye, ibiti, ndetse n'ubisitani butandukanye, imbere y'umuhanda wa kaburimbo, n'icyapa gisize ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Umunara munini ukozwe mu byuma uriho insinga zijyana amashanyarazi hagati y'inzu nyinshi ya mabara atandukanye harimo umuhondo, ikigina ndetse n'amatafari asize ibara ry'umutuku.

Umunara munini ukozwe mu cyuma wateretsweho insinga z'amamashanyarazi nyinshi, uri hafi y'ibyatsi ndetse n'inzu ifite amatafari atukura n'ibirahure, ndetse n'urupangu ruzengurutswe rukiriho amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye ruhurura ndetse n'inzu ifite urupangu rusize ibara ry'ubururu, rukikijwe n'inkuta zikoze mu mabuye ndetse n'ipoto rinini rifite insinga z'amashanyarazi, byashyizweho ku ruhande hariho ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ibinyabiziga bitandukanye impande hari akayira kanini kanyuraho abanyamaguru ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi ziri hejuru, n'icyapa k'impande eshatu gishushanyijeho umusaraba.

Ipoto rinini ry'ikigina hashyizweho itara ndetse n'insinga z'amashanyarazi riri impande y'idarapu ry'u Rwanda risize ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hafi y'imodoka iparitse imbere y'urupangu rufite ibara ry'umukara.

Umugabo uhagaze ambaye ishati n'ipantaro, wafunguye umuryango w'inzu y'ikibambasi gisize ibara ry'umuhondo, kiriho icyapa cyanditseho amagambo "aho basuzumira", ku ruhande rw'i buryo hariho urugi rufunze, urw'imoso ruriho umugabo wicaye ku kagare k'amapine abiri.

Idatarapo ryamanitswe igihugu cy'u Rwanda risize ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi byatetswe hafi ya pasiparume ntoya ikikijwe n'agahanda gato kariho imirongo y'umweru kari impande y'inzu igeretse y'amagorofa abiri ifite ibirahure ndetse n'inkuta zisize' irangi ry'umuhondo.

Inzu nini igizwe n'amabati ikaba igizwe n'inkuta zisize irangi ry'umweru ryanditseho amagambo ibitaro bya Masaka, akabaraza hakaba hariho intebe ndetse n'abantu bari gutambuka mu kayira gatoya kahegereye.

Abantu batatu bambaye imyenda isa begereye inkoni y'icyuma isize irangi ry'umutuku n'umweru hafi y'urupangu rwibitaro, ruriho ibyapa byinshi bitandukanye by'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'ibimenyetso bitanga icyerekezo muri ibyo bitaro.

Umugore wambaye igitenge ari kugenda muri kirongozi y'inzu, impande ye hariho amatafari ahiye, icyuma gitanga umuyaga cy'umweru, kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru ku gisenge hariyo icyapa, kiriho ibimenyetso, bigaragaza icyerekezo umuntu agomba kugendamo.

Umugabo wambaye amadarubindi n'ishati ahagararanye n'abapolisi babiri bamufashe amaboko ku mpande zombi, bambaye ingofero, inyuma hakaba hari idirishya rifunguwe ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

umugabo uhagaze wambaya ikanzu y'umukara ufite icyuma cy'amajwi mu kuboko kw'iburyo inyuma ye hari idirishya rifunze ryegereye irido imbere ye hari ibendera risize ibara ubururu, umuhondo n,icyatsi.

Icyapa gikozwe mu mpande enye, kiri kugaragara ishusho y'abantu bicaye begeranye bamanitse amaboko yabo y'iburyo, ndetse no ku ruhande hariyo n'abandi begereye akameza, hakaba handitseho amagambo, inkiko gacaca, ubutabera, ubwiyunge.

Igipangu kinini cy'amatafari ahiye, kiriho ibyuma hejuru yacyo ndetse n'imirongo itandukanya inkuta isize ibara ry'umuhondo, hafi yaho hakaba hariyo akazu k'amabati karimo intebe zikozwe mu mbaho zicayemo n'abantu bambaye udupira ndetse n'ikabutura risa ibara ry'icunga.

Umugore uhagaze wambaye amadarubindi ndetse n'igitenge gisize ibara ry'ubururu. umuhondo ndetse n'icunga imbere ye hari icyuma kirangurura amajwi cyateretswe ku kameza gakozwe mu mbaho k'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahure ifite utwuma dusize irangi ry'ubururu bwijimye mpande hariyo ibiti ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi kuruhande kugira hariho n'umupolisi kumwe n'umuturage wari kugenda mu kayira k'abanyamaguru impande hariho umuhanda wa kaburimbo.

Abagabo babiri bahagaze bambaye imipira y'umukara ndetse iriho imirongo y'icyatsi, umwe afashe umugozi muremure uri gusohokamo amazi, bari mu muhanda w'igitaka waparitswemo ikimodoka kinini gisize irangi ry'umutuku.

Icyuma cyateretswe ku rukuta kiriho umugozi munini cyane w'umutuku munsi yaho hari kugaragaraho icyapa kiriho umukobwa ufite telefone mu kuboko kw'iburyo bwe, iruhande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za telefone n'kindi kiriho imibare itandukanye.

Icyuma cy'uruziga cyashyizweho umugozi muremure usize ibara ry'umutuku n'umukara, uri hafi y'ibyuma bibiri bya kizimyamoto byegereye urukuta, impande y'amakaro asize ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Abagabo batatu bahagararanye bafashe ikiguzi kinini gisize ibara ry'umukara ndetse n'umutuku kiri kuvamo amazi, impanda hariho umuhanda wa kaburimbo ndetse n'imodoka itwara abagenzi isize ibara ry'umuhondo n'ishyamba ku ruhande.

Agahanda kagizwe n'amatafari y'ikigina kari hafi y'igipangu gisize ibara ry'umweru n'umukara kibonerana, hirya hari kugaragaramo imodoka za polisi ndetse n'izisanzwe hafi y'inzu isize ibara ry'ikigina.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na karuvati y'umutuku, wegeranye n'abagore babiri, umwe wambaye ikanzu nini y'ubururu ndetse n'undi wambaye ikoti ry'amabara atandukanye y'umutuku ndetse n'ubururu bwijimye, mu nzu

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru afite icyuma mu kuboko kw'iburyo kirangurura amajwi giherekejwe n'umugozi. Inyuma ye hakaba hari icyapa gishushanyijeho umuntu gifashwe n'abantu babiri bambaye utujaketi tw'umukara.

Umugore wicaye ku kabaraza k’inzu, yambaye agakoti k’umweru ndetse n’isaha mu kuboko kw’ibumoso. Imbere ye hari icyuma kirangurura amajwi giteretse ku kumeza, kashyizweho igitambaro gifite ibara ry’icyatsi, cyanditseho ijambo mu rurimi rw’Icyongereza ndetse n’irindi mu Kinyarwanda. Ku ruhande, hari umurinzi ndetse n’abakobwa batatu bahagaze

Abantu batanu bahahgaze mu muhanda w'igitaka, ndetse n'inyuma yabo hari n'abandi bafite icyapa gisize ibara cy'umweru gishushanyijeho abantu batandukanye cyanditseho amagambo, imbereye yabo hari akameza gakozwe mu mbaho ndetse n'icyuma gashyirwaho mikorofone.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina na karuvati y'umukara wicaye ku ntebe, imbere yameza yashyizweho amazi, ikirahure, ndetse n'icyuma kirangurura amajwi, ku ruhande rw'ibumoso hariho mudasobwa ishushanyijeho akabuto gashinnyeho.

Akayira k'abanyamaguru, kegereye umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y'umweru, ndetse ukaba uri kugendwaho n'umumotari utwaye umugenzi, impande hari pasiparume irimo ibiti ndetse n'akazu gakikijwe n'ibyuma bisize ibara ry'umutuku.

Akayira k'ayamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina yo kugendwaho n'umuntu ufite igikapu mu ntoki cy'ubururu ndetse n'agafuka k'umukara mu ku kw'ibumoso kwe iruhande harihoho umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwa mo n'umugabo wicaye ku igare rye, ahetse umugenzi inyuma, ufite agafuka ke mu ntoki ze, barikubisikana n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umweru, i mpande habo hari kugaragara ibiti.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro ari kugendera mu kayira kari mu matafari y'ikigina, afite igare mu ntoki ze. Inyuma hari kugenda ababyeyi babiri umwe yambaye igitenge n'undi yambaye ikoti, impande y'umuhanda wa kaburimbo ugendwaho n'ikamyo ndetse n'umumotari uhetse umugenzi.

Ikinyabiziga kinini giheka imizigo, gisize ibara ry'umutuku, kikaba gifite n'amapine atandatu, imbere yacyo hari imirongo irombereje y'umweru, ishushanyijwe ku muhanda wa kaburimbo, ndetse n'umugabo wicaye ku igare rye, ari kurigenderaho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho na moto ebyiri zibisikanye, ku ruhande hari agahanda k'agataka kari kugendwaho n'abantu ndetse n'umukarani uteruye ingofani ikozwe mu giti, iriho umufuka ndetse n'imodoka y'ikamyo iparitse ku ruhande rwe.

Ibiti binini bifite amashami biri hafi y'akayira k'abanyamaguru, kegereye kaburimbo iri kugendwamo n'ikamyo y'umweru, iteruye imizigo ifite isize ry'ubururu. Ndetse n'imyanya irimo iterurwamo inyamaswa.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uri kugendwaho n'abamotari benshi, bamwe bari kugenda bonyine n'abandi bahetse abagenzi, inyuma hari kugaragaraho umuntu uri ku igare ndetse n'igikamyo kinini gitwaye igikontineri gisize irangi ry'icunga.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Ikinyabiziga kigendwaho n'umumotari, giparitse ku muhanda w'amatafari, Kigina, impande y'akayira k'abanyamaguru, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, birimo imodoka ndetse n'ibikamyo by'umweru.

Abantu babiri bari ku bisikana mu kayira k'abanyamaguru impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umumotari uri kumwe umugenzi mu kinyabiziga cy'ubururu gifite amapine ane gihetse imizigo kuruhande hari ibiti bishinze mu busitani.

Ruhurura yegeranye n'akayira k'abanyamaguru, gakozwe mu matafari y'ikigina, i mpande yaho hari umuhanda urimo ikinoogo, uri kugendwamo n'ikinyabiziga gitwara abantu benshi, gisize ibara ry'umuhondo, kibisikanye n'umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umuntu uhetse imizigo ari ku igare ndetse n'undi uri wenyine, imbere ye hari ikimodoka kinini giterura imizigo gisize ibara ry'umutuku ndetse n'ikigina ku ruhande rw'ibiti.

Umushoferi utwaye ikamyo ihetse igikontineri cy'umweru hariho icyapa k'icyatsi ndetse n'umuhondo kiriho amagambo uruvange gishushanyijeho udukombe tubiri mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande rw'ibiti.

Akayira k'abanyamaguru, Kari iruhande rw'imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, isize ibara ry'ubururu, ndetse ikaba ihetse imizigo inyuma yayo, imbere hari izindi zifite amapine atatu, kuruhande hari ibiti byinshi ndetse n'amamoto atanga urumuri.

Ruhurura iri hafi yakayira kabanyamaguru kari impande y'umuhanda wa kaburimbo uriho ikinogo uri kugendwaho nikinyabiziga cyikamyo gisize ibara ryumweru kikaba gihetse imizigo umumotari bari kubisikana ndetse numunyamagare.

Umumotari wicaye kuri moto atwaye umugenzi mu muhanda urimo imodoka itwara abagenzi benshi yaparitse isize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, impande hariho imodoka ndetse n'abandi bantu bari gutambuka.

Umugabo uhagaze mu muhanda w'igitaka uri kugendwamo n'umumotari utwaye ikinyabiziga cye cy'amashanyarazi, impande hariho ibinyabiziga by'amapine atatu ndetse n'ikamyo isize irange ry'umweru ihetse umuzigo, iruhande hariho ruhurura.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka itwara abagenzi isize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iri kunyura munsi y'kiraro impande hari ibiti ndetse n'umuntu ufite igare mu ntoki ari kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho na moto ebyiri, inyuma harimodoka isize ibara ry'umukara, impande yayo hariho umugore uri gukora isuku uri impande y'ibiti ndetse n'ibyapa biri iruhande rwe inyuma ye bishushanyijeho.

Akayira kabanyamaguru kari impande yibiti ndetse na kaburimbo iri kugendwaho nimodoka isize ibara ry'ubururu impande hakaba hari ipoto ryicyuma ririho insinga z'amashanyarazi ndetse nibyapa by'umweru biri kugaragaza icyerekezo.

Akayira kaba nyamaguru gakozwe mu matafari y’ kigina, kari impande ya kaburimbo irimo ikinogo, ndetse n’imodoka isize ibara ry’umweru n’umuhondo yicayemo n’umushoferi iri kugenda hejuru yayo. Imande hakabaho ibiti ndetse n’ibyatsi.

Imodoka ifite irangi ry'umweru n'umuhondo, irimo umushoferi ari kugenda muri kaburimbo, impande hariyo abantu bari mu kayira k'abanyamaguru ndetse n'ipoto rishyirwaho insinga z'amashanyarazi, impande hakaba hari umutaka usize ibara ry'umuhondo.

Ruhurura iri mpande y'akayira k'abanyamaguru kariho umuntu wambaye umupira n'ipantaro impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'igikamyo cy'ibara ry'ubururu cyashyizweho umuzigo w'ibyuma bihagaze ndetse cyicaweho n'umuntu uri hejuru yacyo.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye menshi waparitswemo imodoka isize irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo uriho icyapa inyuma yaho ndetse n'amagambo ari kuru ruhande yandikishijwe ibara ry'umutuku ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na nimero za telefoni.

Ibiti bitandatu bifite amashami biri imbere y'akayira ka banyamaguru, i mpande ya kaburimbo iri kugendwaho n'imodoka itwara abagenzi irimo umushoferi isize ibara ry'umweru ku ruhande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'animero za telefo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo gisize ibara ry'umweru ndetse n'icyuma gisize ibara ry'icunga gihetswe nayo kibisikanye n'umumotari uhetse umugenzi impande y'ibumoso hariho akayira k'abanyamaguru ndetse na ruhurura.

Ni ruhurura yegeranye n'akayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, impande hari umuhanda wa kaburimbo, urimo ikinogo, ikaba iri kugendwamo n'igikamyo kinini gisize irange ry'umweru, gihetse imizigo yahishwe n'ishashi isize irangi ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagase y'umuhondo kari kugendwamo n'ikinyabiziga cy'amapine atatu imbere yacyo hakaba ari igikamyo gisize ibara ry'umutuku giteruye umucanga, impande hari akayira k'ayamaguru gafite amatafari y'ikigina ndetse n'amabati asize ibara ry'ubururu.

Imodoka ihetse imizigo ndetse nibinyabiziga byamapine abiri biri mumuhanda hafi yinzu igeretse ifite iduka imbere yaryo rifunguye ririmo umugabo uhetse agakapu ndetse nakabati kumweru kari imbere ye.

Ibiti binini bitandatu bifite amashami y'icyatsi imbere y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ikinyabiziga gisize ibara ry'umweru giheka imizigo minini kikaba kirimo umushoferi ndetse impande hariho umugenzi uri kugenda.

Ibiti byinshi bifite amashami biri hafi y'akayira k'abanyamaguru kashinzwemo ipoto ritanga urumuri riri impande y'umuhanda wa kaburimbo ufite ibinogo, uri kugendwamo n'ikamyo itwara imizigo y'amatafari isize ibara ry'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibyapa by'amabara atandukanye y'ubururu, umweru ndetse n'ibiriho umuhondo imbere yabyo hari abamotari bicaye ku binyabiziga byabo biparitse ndetse n'undi mu muhanda ari kugenda impande hari imodoka iteruye imizigo isize ibara ry'umweru.

Ikiraro cyegeranye n'akayira k'abanyamaguru kari hafi y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'imodoka y'umweru iheka imizigo itwawe n'umushoferi, umumotari wicaye ku kinyabiziga cye atwaye umukiriya ndetse n'igare riri kugendwaho n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro.

Akayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, kateretsweho intebe iriho ibiti bisize irangi ry'umutuku ndetse gifashwe n'icyuma, impande hariho ibyatsi byajugunyweho amabuye.

Ikibuga cy'igitaka cyashyizweho imirongo y'umweru ndetse kikaba kiriho urushundura rw'umukara kizengurutswe n'icyuma, inyuma hakaba hariho imyanya yicarirwaho abafana baje kureba umukino ndetse n'impande hakaba hariho urukuta rw'ubururu rushushanyijeho ikinyobwa cy'inzoga.

Ubusitani burimo akazu ibiti ndetse n'indabyo, byegereye umuhanda wabugenewe ukorerwaho siporo, ku ruhande hari amapoto menshi y'amatara ndetse n'ibyuma impande y'umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'akayira k'abanyamaguru.

Ibyapa bibiri byanditswe mu magambo ari mu rurimi rw'icyongerereza ndetse n'ikindi kiri mu ibara ry'icyatsi handitsweho demokarasi iharanira ubumwe bwa kongo. Impande hari amazu ageretse asize ibara ry'ikigina ndetse n'umutuku wijimye.

Icyuma cyashinzwe mu butaka cyashyizweho icyapa gisize ibara ry'umutuku, umweru gishushanyijeho umusaraba ,impande y'urukuta rw'amatafari atukura ndetse n'ibyatsi n'akayira k'abanyamaguru hafi ya kaburimbo.

Waba wifuza inzu wabamo ndetse nabawe kandi nziza iherereye heza kandi ifite umutekano. Hano tubafitiye nzu, ni inzu iherereye mumujyi wa Kigali iragurishwa amafaranga make cyane, aho irimo iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, ni ukuri ntago ari uguhendwa uyiguze waba w'iyizigamiye. Ni inzu birimo biragaragara ko ifite uruganiriro rwiza, ifite ibyumba byiza kandi amadirishya meza sibyo gusa kandi igifite n'irange ryiza amatara meza cyane kandi agezweho n' ukuri izigamire ugura ino nzu ku giciro gito cyane.

Ibyapa bitatu bifashe ku cyuma kimwe gisize ibara ry'umutuku yo gutanga icyerekezo cy'ibumoso ndetse n'umubare cumi na gatatu ibindi bibiri biri gutanga ibyekerezo bitandukanye bifite amasegonda cumi n'ane, ku ruhande kaba kugaragaraho imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'abantu babiri ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hariyo amazu afite ibipangu ndetse n'amazu ageretse asize amabara atandukanye, imbere yazo hariyo ubusitani ndetse n'ibiti bishinze.

Ishusho iri kugaragaraho umugabo uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, impande hari imodoka ziri kugenda mu cyerekezo kimwe, ndetse n'umumotari wicaye ku kinyabiziga cye, imbere yabo hariho ikizu kinini kigeretse, kiriho amagambo kwa rando.

Umumotari wicaye ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri, agendera mu muhanda wa kaburimbo, impande y'igiti giteye hafi y'urupangu rw'umukara ndetse gifite n'inkuta n'amatafari atukura, yateretsweho icyapa cy'umweru cyanditseho cumi n'umunani.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura ari kugendera mu muhanda w'igitaka ndetse n'amabuye, iruhande hari ruhurura ndetse n'inyuma ye hari kugaragara imodoka isize irangi ry'umukara, ku ruhande hariho umugabo uri gutanga icyerekezo ku mushoferi uyicayemo.

Inzu ifite amabati y'umukara ndetse n'inkuta zisize z'irangi ry'ikigina rifite urupangu ruriho icyapa gisize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku impande yaho hari ibyatsi biyikikije imbere hari umuhanda w'igitaka.

Ishusho iri kugaragaraho amagorofa ane y'inzu nini ibirahuri ndetse n'inkuta zisize irangi ry'umuhondo zashyizweho icyapa kinini cy'impande enye iriho ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza kiba gishushanyijweho n'amazu manini.

Amapoto abiri akozwe mu cyuma ndetse n'irindi rimwe rikoze mu giti yashyizweho insinga z'amashanyarazi iruhande rw'iburyo hariho imodoka iparitse imbere y'ibara ry'inzu yashyizweho icapa ndetse n'iruhande rw'ibumoso harihoho abanyamaguru bari kugendera hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Ibyatsi byatewe byegereye igiti ndetse n'icyapa gikozwe mu cyuma, bizengurutswe n'amatafari asize irangi by'umweru ndetse n'umukara, hagati y'imihanda ibiri igendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, ikaba iri kunyurwamo n'abamotari batwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'ibikamyo. Ku ruhande hariyo akuma ko kwicaraho kategerezwaho imodoka nini zitwara abagenzi, kari hafi y'ibiti bifite amashami.

Ibyatsi byegereye igiti, gikijwe n'amatafari isize irangi ry'umweru n'umukara. Hagati y'imihanda ibiri ya kaburimbo, n'umurongo w'umuhondo ndetse hakurya yayo hariho ibiti bikikijwe n'ibyuma kuruhande.

Ifoto yacuritswe iri kugendaho umumotari wicaye ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri agenda mu muhanda agiye kubisikana n'imodoka y'umukara, hejuru yazo hari ikiraro kinini gikozwe mu ibumba ndetse ku ruhande hari igiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaraho umurongo werekeza imbere usize ibara ry'umweru ndetse ukaba uri kugendwaho umumotari uri kugenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka nyinshi ziri kubisikana z'amabara atandukanye ku ruhande hakaba hariho ibiti ndetse n'amapoto.

Ifoto icuritse iri kugaragaraho umuhanda winjiye mu wundi, uri kugendwaho n'imodoka isize ibara ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara, impande hari ibiti byinshi ndetse n'amapoto atanga urumuri mu muhanda.

Umumotari wicaye ku kinyabiziga cye cy'amapine abiri, abisikanye n'undi mu muhanda wa kaburimbo, impande hari icyapa gisize ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ibiti biri iruhande rw'ipoto rishinze.

Abantu bari kugendera mu muhanda hafi y'icyapa cy'ikizeru cyanditseho ijambo "P", rikaba anyujijwemo umurongo w'umutuku impande y'ibyatsi, ndetse n'ikiraro kinini kikaba gifite umuhanda hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uriho imirongo irombereje y'umuhondo ndetse n'umweru, ku ruhande hariho ibyatsi byatewe ndetse n'ibiti, imbere hariho abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, impande yaho hari ibiti binini.

Umugabo n'umugore bahagaze mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse imbere yabo hari umumotari uparitse impande hari ikinyabiziga cy'amapine atatu n'imodoka biri kugendera muri kaburimbo.

Abagore babiri bari kwambuka mu muhanda wa kaburimbo, washyizweho imirongo irombereje y'umweru y'ibice, imbere yabo hanyuzweho n'umumotari uhetse agafuka, ndetse impande yabo hakaba hari imodoka, hakurya hariho ikiraro ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, uri kugendwamo n'umuntu uri ku igare ndetse n'imodoka iri kugenda mu cyerekezo kimwe, igiye kubisikana n'igikamyo kinini gisize irangi ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru gakozwe mu matafari y'ikigina, impande y'aho ari icyapa gisize irangi ry'mweru gishushanyijeho amazu, impande yaho hari ibiti ndetse n'ibyatsi biri hakurya y'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'imodoka isize irangi ry'umukara.